Iyi ni isahane iriho ifi itetse, ikabaho n'ibitunguru bikase, urunyanya, na none kuri iyi sahani hariho indimu, puwavuro n'ibindi.

Ibi ni ibicuruzwa bigizwe n'ibinyobwa bidasembuye bitandukanye harimo: ibyo muri kanete ndetse n'ibyo mu macupa, mu binyobwa bigaragara harimo fanta zitandukanye, harimo fanta ya sipurayiti, iya kokakora ndetse n'izindi.

Aka ni akabare gafite imbuga iteyemo imitaka, aho muri iyi mbuga hateyemo utumeza tw'akabare, ndetse n'intebe zikoreshwa muri aka kabare.

Aya ni amadishi y'ibiryo harimo ibiryo bitandukanye birimo: salade, irimo avoka, urunyanya, hakabamo umutsima w'ibirayi, umuceri, ndetse n'ibindi.

Aha ni mu kabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, muri ibyo binyobwa bacururiza muri aka kabari, harimo rikeri ndetse n'ibinyobwa bituruka mu ruganda rwa burarirwa, nkuko bigaragazwa na firigo ndetse n'ibinyobwa biyiteretsemo iya burarirwa.

Ahantu muri hoteli, umukozi wa hoteli arimo arasuka wayini mu kirahure, bigaragara ko ari ibirahure binini ndetse n'ibitoya ariko arasuka wayine mu kirahure gitoya.

Iyi ni bare icururizwamo ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya. Biragaragara ko muri iyi bare hari umwijima bitewe nuko uko amatara yatangiye kwaka muri iyi bare. Na none muri iyi bare ndabonamo umuntu wambaye imyenda y'icyatsi.

Aka ni akabare gacuruza inzoga zitandukanye, zirimo izisembuye ndetse n'izidasembuye na none muri aka kabari harimo imashini ikora kofi, iri imbere y'umucuruzi muri aka kabari.

Aka n' akabari gaherereye mu mujyi rwagati aho gafite imitaka hanze y'akabari hicaye abakiriya barimo banywa inzoga, ndetse n'abandi bahagaze ku tu meza hanze y'akabari.

Izi n'inyama zikaranze nkuko bigaragazwa n'ibirungo zifite, zikaba zamajije gutahurwa ziri ku isahane y'umweruru.

Aka ni akabare gacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, zituruka mu ruganda rwa Baralirwa, nk'uko bigaragazwa n'ibyapa n'ibirango, imitaka by'uruganda rwa Baralirwa.

Iyi ni butike ikora ibintu bitandukanye birimo gukora inkweto, kuzisana, ndetse no kuzigurisha. Biragaragara imbere kuri iyi butike ko hari etajeri ifite inkweto zirimo ziragurishwa zitandukanye.

Ndabona iguriro rigizwe n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo:ibiribwa, harimo ibinyobwa, nanone muri iri guriro ndabonamo ndabonamo isuku bijyanye n'uko muri iri guriro harimo amakaro, ndetse harasukuye neza.

Iyi ni butike icururizwamo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu rugo ndetse no muri siporo. Aho mbona imipira y'abana yo gukina, nkabonamo supaguru, indodo, inkweto, nkabonamo amasogisi, imiswara n'ibindi.

Aha ni ku cyapa cya mirongwine cyo mu muhanda, haherereye akabare kariho ibyapa byinshi byamamaza inzoga zirimo iza sikoro, ndetse n'izindi.

Iri ni iduka ricuruza imifariso y'ubwoko butandukanye harimo imifariso minini ndetse n'imitoya. Muri iri duka haragaragaramo imifariso igerekeranye, na none muri iri duka hacururizwa amatapi ndetse n'imisego byo ku ntare.

Iyi ni butiKe icuruza ibikoresho bitandukanye, harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa byo mu rugo. Imbere hari gaze n'imbere muri butike bacuruza amagi, amazi ndetse n'ibindi bikoresho.

Aha niho bakanikira amagare. Hari amagare menshi atandukanye ya siporo, nanone kuri aha hantu hariho na moto bigaragara ko bakanika na moto.

Iri ni iduka ricuruza imyenda n'inkweto， aho muri iri duka turi kubonamo imyenda itandukanye， irimo amashati， amakoti，rikabamo n'inkweto.

Iyi ni butike icuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, birimo amasafuriya, indobo, imyuko, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho birimo imikoropesho n'imikubuzo.

Aha ni mu isoko rya Musanze ryitwa Goico, ricururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Iri soko rikaba rinatangirwamo serivisi zinyuranye, zirimo serivisi z'amabanki, ndetse na serivisi z'itumanaho, na serivisi zitangwa n'ikigo airtel.

Iyi ni butike icururizwamo imyenda ndetse bakanayikora bigaragara ku cyapa kimanitse imbere yiyi butike kigaragaza ibihacururizwa ndetse na nimero y'abacuruzi iragaragara kuri iki cyapa.

Aha ni muri botike icuruza ibiribwa bitandukanye， birimo imigati，aho haragaragaramo amandazi，ji ndetse n'imineke.

Aha ni muri butiki hacururizwa ibintu bitandukanye, birimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, aho mu biribwa harimo amandazi, kuko agaragara mu ndobo y'umweru.

Iyi ni butike icuruza ibiribwa bitandukanye, aho imbere hagaragara ibirayi , n'umugore urimo urarobanura ibirayi, haragaragara amagare asa naho apakira ibirayi abizanye.

Iyi ni butike icuruza amandazi, imigati, keke ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bikomoka ku ifarini harimo capati n'amagi.

Iyi ni alimantasiyo icuruza icyayi, imigati, keke, ji n'imineke kandi iyi alimantasiyo ikaba ari kwa Mukiza muri alimantasiyo haragaragaramo amakarito iyi y'amaji ndetse n'amazi.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye by'imodoka, aho twita piyesedoreshanje bakaba bacuruza amapine y'imodoka, imbere y'iri duka hari kandagirukarabe ndetse n'amapine y'imodoka menshi atandukanye.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye birimo amazi, imyenda ndetse na gaze. Imbere y'iri duka hacururizwa mituyu.

Aka ni akabari gacuruza inzoga nkuko bigaragazwa n'icyapa kiri kuri aka kabari gishushanyijeho inzoga y' amusiteri ndetse n'ikirahure kirimo inzoga.

Iyi ni Botike icuruza ibintu bitandukanye, muri Butike haragaragaramo imineke hakagaragaramo imifuka isa naho ari iy'amakara ndetse akagaragara kuri uru rugi udufuka cyangwa se n'imifuka minini itwarwamo ibicuruzwa.

Iri ni isoko rigizwe n'amaduka menshi, imbere y'iri soko hahagaze abamotari ndetse n'abagenzi, muri iri soko hakaba hacururizwa ibintu bitandukanye birimo amafoto ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Iyi ni inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, muri iyi nzu bacuruza Gaze, kuko hagaragara amacupa ya gaze, bagatanga serivisi za butike, kuko haragaragara butike, haragaragara umucuruzi ndetse n'umuguzi, haragaragara nanone ko bakora telefone.

Aha ni mu isoko aho tubonamo ibicuruzwa bitandukanye birimo karoti, hakabamo inyanya, ndetse muri iri soko harimo imifuka y'ibirayi bigaragara ko icuruzwa n'abagore

Iri ni iduka ricuruza amagare ya siporo, kuri iri duka hanakorerwa amagare ya siporo, ndetse hakanateranyirizwa amagare ya siporo, nk'uko bigaragazwa n'amagare ya siporo, amanitse imbere y'iri duka.

Aha ni kuri butike bacuruza ibintu bitandukanye cyane cyane harimo injugu nkuko bigaragazwa n'imashini ikora injugu iteretse imbere y'iduka ndetse irimo n'injugu zamajije gukorwa.

Iyi ni butike icuruza ibintu bitandukanye harimo inkweto, ibiribwa birimo amashu, inyanya ndetse n'izindi mboga.

Ibi ni ibidomoro by' irangi, bigaragara ko birimo amarangi atandukanye, muri ibi bidomoro harimo ibisa n'umukara, ndetse n'ibindi bisa n'umuhondo.

Iyi nikekayori icuruza amarangi atandukanye harimo amarangi yo mubidomoro ndetse n'amarangi yo mu ndobo.

Iyi ni butike icuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye aho muri iyi butike dusangamo inzoga z'ubwoko butandukanye harimo iza burarirwa na mitsingi ndetse n'iza sikoro.

Aha ni aho bacururiza ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, birimo amarangi y'ubwoko butandukanye, harimo amarangi yo mu bikombe, ndetse n'amarangi yo mu bidomoro.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, birimo ibyo mu rugo harimo amabase indobo, hakabamo ibikapu by'abana ndetse n'ibikapu binini.

Aha ni muri farumasi aho abantu bagurira imiti itandukanye nkuko bigaragara muri iyi farumasi harimo imiti hakabamo abantu bari kugura imiti n'abandi bari gucuruza iyo miti.

Iyi ni inzu icururizwamo ibintu bitandukanye. Kuri iyi nzu haragaragaraho parikingi iparitseho moto. Iruhande rw'iyi nzu hagaragara icyapa cya Sikoro bigaragara ko hacururizwa n'inzoga z'uruganda rwa Sikoro.

Iyi ni butike icururizwamo ibintu bitandukanye birimo: inzoga, uburoso bw'amenyo, amakaramu yo kwandika harimo amavuta ndetse n'ibindi bikoresho.

Iyi ni botike icuruza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu modoka. Imbere hari amapine y'imodoka, n'imbere muri butike harimo ibindi bikoresho bikenerwa mu gukanika imodoka.

Iyi ni nzu yakira abashaka gucumbika, bigaragara ku cyapa cyanditseho Tekirarisote kiriho ibintu bitandukanye iyi nzu ikora, harimo gucumbikira abantu.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi， birimo isima， ibyuma ndetse n'amarangi， iruhande rw'iri duka， hari inzu idoderwamo imyenda， ndetse imbere y'iyo nzu， hariho imashini ebyiri zidoda imyenda.

Iyi ni butike icuruza ibiribwa bitandukanye, aho imbere y'iyi butike hariho imifuka irimo ibigori, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibindi bicuruzwa binyuranye birimo ibikapu, imifuka, hanariho amavuta.

Iyi ni butike icuruza ibintu bitandukanye birimo gaze, bagacuruza ibikoresho by'ubwubatsi birimo amabati, sima n'ibindi bikoresho bifashisha mu bwubatsi.

Ibi ni ibyapa bibiri bitandukanye, kimwe cya Karasike, ikindi cya Rege biteye iruhande rw'umuhanda, inyuma y'ibipangu.

Aha ni mu igorofa riherereye mu mujyi wa Musanze ricururizwamo ibintu bitandukanye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari farumasi, hagacururizwamo hejuru nkuko bigaragara akabari.

Aha ni kuri hoteri bita La palme, muri iyi hoteli hatangirwa serivisi zitandukanye, zirimo kunywa, kurya ndetse no kuryama.

Iyi ni butike icuruza ibikoresho bitandukanye, muri iyi butike harimo amagi ari ku matreyi, hakabamo amabase, hakabamo imigati itandukanye, hakabamo amavuta, ibinyobwa birimo fanta, ndetse n'ibindi bicuruzwa binyuranye.

Iri ni igorofa rigizwe n'amaduka menshi acuruza ibintu bitandukanye, nk'uko bigaragara kuri iri duka hacururizwa amakaro, ibyuma, ndetse na gaze.

Aka ni akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye birimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye .Mu binyobwa bisembuye harimo ibikomoka mu ruganda rwa sikoro ,ndetse imbere y'aka kabari hari n'umukobwa ucuruza mituyu wicaye mu mutaka.

Iyi ni Banke ya Kigali, aho muri iyi banke imbere mbonamo abakiriya bicaye bategereje guhabwa amafaranga, inyuma nkabonaho umusekirite ndetse n'umukiriya ushaka kwinjira.

Iyi ni banki yitwa Unguka iherereye mu karere ka Gakenke, nk'uko bigaragara ni mu masaha y'akazi kuko imiryango y'iyi banki irafunguye, nkaba mbona abantu imbere basa n'aho bategereje kwinjira muri iyi banki.

Iyi ni hoteli yakira abantu batandukanye nkuko bigaragazwa n'ibyapa biri imbere ku muryango, byanditseho sikolo, henekeni, na none kuri iyi hoteli, hari ubusitani bwiza buteyemo imikindo minini.

Aha ni mu cyumba bararamo gisashemo ibitanda bibiri aho kuri buri gitanda hariho umusego, hanyuma hasi y'igitanda hakabamo kambambiri zifashishwa n'abagiye kuryama kuri ibi bitanda.

Iki ni icyapa cya hoteli ra parume. Iherereye mu karere ka Musanze. Kuri iki cyapa iruhande rwacyo, haragaragara ubusitani bwiza burimo indabo, ndetse n'ibiti byiza.

Iyi ni hoteri iri mu busitani bwiza, nk'uko bigaragazwa n'ibiti ndetse n'indabo iyi hotel irimo. Ikaba isakajwe ibyatsi hejuru, hanyuma hasi ku muhanda ujya muri iyi hoteri, hakaba hasashe amabuye.

Aka ni akayira gakikijwe n'indabo, aka kayira kakaba gashashwemo amabuye y'urugarika, akoteye na sima.

Aha ni umucuruzi uri gucuruza indagara. Uyu mucuruzi akaba ari umugore. Bigaragara ko ari gucururiza indagara mu mabase, ariko izo ndagara akaba yazipimye mu tudobo duto duto bitewe n'izo abakiriya bashaka.

Aha ni mu gice cy'isoko ahacururizwa imyenda itandukanye hakanadoderwa imyenda . Nk'uko bigaragara muri iki gice ,harimo imashini zidoda ndetse ziriho n'abadozi . Hakagaragaramo imyenda igurishwa, imanitswe ndetse ishobora no kudoderwa muri iki gice.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, cyane cyane amashu, nk'uko bigaragara ko ari yo atanditsemo cyane.

Aha ni mu isoko ricuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo indobo, amasafuriya amacupa y'amazi, telemusi ndetse n'ibindi.

Aha ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byo muri etaje, buri muntu arimo ararebera ibicuruzwa hasi birimo karoti, inyanya, ibitunguru, puwavuro. Muri iri soko biragaragara ko harimo abaguzi bakeya.

Iri ni isoko ricuruza ibikomoka ku matungo, aho muri iri soko hagaragaramo amagi menshi apanze ku matereyi, harimo amatereyi yuzuye y'amagi ndetse n'itereyi igaragara ko iriho amagi makeya.

Aha ni mu isoko ricuruza ibikoresho bitandukanye byifashishwa murugo harimo: ibiyiko, amafoke, indobo, ibirahure, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Aha ni mu isoko ricuruza ibikoresho byo mu rugo bitandukanye birimo:ibikosi, amasafuriya, amasahane, ndetse n'utuyunguruzo twi'icyayi.

Izi ni isambusa zamaze gutekwa nkuko bigaragara ko zamaze kwarurirwa mu gikoresho zikaba zitegereje kuba zaribwa.

Iri ni iduka ricuruza amazi nkuko bigaragazwa n'amacupa manini y'amazi ya nile ateretse muri iri duka kuri etager.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi. Iri soko rikaba riteretsemo ibiribwa bitandukanye, birimo karoti intoy,i imiteja ndetse n'imboga.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa， ririmo abacuruzi batandukanye ndetse n'abaguzi batandukanye， muri iri soko hari gucururizwamo ibicuruzwa， birimo intoryi， inyanya，karoti ndetse n'ibitunguru.

Iri ni isoko ry'ibiribwa rya Musanze riherereye mu karere ka Musanze. Imbere y'iri soko hagaragara parikingi y'imodoka zitandukanye, aho muri iyi parikingi harimo imodoka imwe. Na none muri iyi parikingi n'umwe muri iyi parikingi hahagazemo umudamu umwe, urimo agenda.

Aha ni mu isoko ry'imbuto nk'uko riri kugaragaramo imbuto zitandukanye zirimo imineke, inanasi, ibinyomoro, amaronji ndetse n'izindi.

Iyi ni butike irimo ibicuruzwa bitandukanye birimo: amasabune, omo, ji ndetse n'urusenda. Muri iri duka harimo na none imashini idoda.

Aha ni mu isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye. Iri soko rikaba ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshi. Nanone muri iri soko turi kubonamo ibisheke byegetse ku nzu.

Aha ni mu isoko riherereye muri gare ya Musanze, aho dusanga ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibikapu, imyenda, ku rundi ruhande tukanahasanga imodoka nini ndetse n'imodoka ntoya kuko bigaragara.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho byifashishwa mu rugo bitandukanye birimo amasabune y'imiti miremire, hakabamo amasabune yo mu dukarito ya Sante. Bagacuruza amavuta atandukanye agizwe na Moviti n'andi mavuta.

Aha ni mu isoko hagurishirizwa ibintu bitandukanye biribwa harimo: umuceri, amavuta, ifarini, isukari, umunyu, ndetse n'ibitubura.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho by'abagore birimo ibikapu byo ku rutugu, ndetse n'ibikapu bafata mu ntoki. Muri iri duka hicayemo umugore, ari gucuruza ibyo bikapu.

Iri ni isoko ry'ibiribwa rya Musanze, rigizwe n'inyubako igeretse rikaba rifite parikingi imbere yaryo iparitsemo imodoka zitandukanye, imbere y'iri soko hari abamotari bahagaze ndetse n'abagenzi bari kugenda mu muhanda.

Aha ni mu isoko ricuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, birimo imbabura zifashishwa mu guteka hakoreshejwe amakara. Hakabamo ibyibo ndetse n'uduseke.

Aha ni muri alimantasiyo aho bacuruza ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, mu biribwa harimo amandazi, imigati, n'aho mu binyobwa harimo icyayi, amaji, amata n'ibindi.

Aha ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, rigaragaramo abacuruzi ndetse n'ibicuruzwa. Muri ibyo bicuruzwa hagaragaramo indobo, ibase. Ndabonamo udukapu dutwaramo ibintu, nkabonamo abagenzi cyangwa se abaguzi barimo barigendamo.

Ni mu isoko ricuruza imbuto zitandukanye nk'uko tubibona harimo: imbuto bita ibinyomoro, hari imineke, hari watomelon n'izindi.

Aha ni mu isoko harimo abacuruzwa ibintu bitandukanye. Ndimo ndabona ifu iri mu mifuka, hakabaho amakarito arimo ibicuruzwa bindi bitandukanye.

Aha ni mu isoko bacuruzamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, birimo imbabura, indobo, amabase, imyuko ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rugo.

Aha ni mu isoko ricuruza ibikoresho byo mu rugo bitandukanye birimo: amasahane, ibikombe, indobo, amabase, terimusi, ndetse n'ibidomoro.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa aho hagaragaramo ibiribwa bitandukanye birimo imiteja. Ibirayi bisutse hasi muri iri soko.